Abagabo benshi bateraniye ahantu hamwe ku meza amwe ariho ibikoresho bitandukanye birimo ibirahuri birimo imitobe ndetse n'amasahani ariho ibinyobwa, impapuro ndetse n'amakaramu bari kwandika bigaragara ko bari mu biganiro.

Umwana mutoya wambaye impuzankano ya kinyeshuri iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'ubururu, afashe amacupa y'amazi, inyuma ye hari ikidendezi cy'amazi ndetse n'abandi bana bagenzi be bo batambaye impuzankano, ibyatsi byinshi biri mu mirima ndetse n'ikirere.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye higanjemo abayobozi bakaba bambaye amakarita mu gatuza abandi bafashe amakayi ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, ku ruhande hariho akameza karambitseho amacupa arimo ibyo kunywa.

Ku nkengero z'ikiyaga nangwa se ku cyambu harimo umuntu ufashe ikibuni arimo adubika avoma amazi, undi arimo koza igare ku ruhande rwaho, hakurya hari imisozi miremire iriho ibyatsi ndetse n'amazu.

Umunyamuzika Israel Mbonyi arimo guha umwana amata ufashwe na nyina, hirya hari n'abandi babyeyi benshi bafashe abana bigaragara ko bari mu gikorwa cyo kubafasha.

Ivomo rusange ry'abaturage, abaturage bazanye ibikoresho bifashisha bavoma birimo amasafuriya ndetse n'ibibuni barimo bareka amazi ku ivomo, hakurya hari imirima irimo ibyatsi, ibiti ndetse n'ikirere kitagaragara neza.

Mu nzu mberabyombi iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye bicaye ku ntebe bamwe muri bo bafashe amakaramu n'amakayi bari kwandika abandi bafashe amatelefone, imbere ku meza yabo harambitse ibikapu, amacupa arimo amazi yo kunywa ndetse n'abandi bahagaze barimo kubaha ibiganiro.

Inteko y'abaturage bitabiriye gahunda z'ubuvuzi, bafashe abana bigaragara ko bari kubakingiza ko harimo n'umuganga urimo gukingira abana wambaye agapfukamunwa ndetse n'ibikoresho byo kwa muganga, ku ruhande hari ibindi biri ku meza.

Icyumba giteraniyemo abayobozi bo mu nzego zitandukanye, imbere ku meza yabo hakaba hari amacupa arimo amazi yo kunywa ndetse hari amatelefone mo hagati, na none harimo indabyo zizengurutse inyuma, hari amadirishya y'ibirahure, isakazamashusho yometse ku gikuta ndetse n'urugi rukozwe mu mbaho, rusohokamo muri icyo cyumba.

Umwana mutoya uri aha ku isoko y'amazi, arimo gukaraba mu mutwe no mu maso ndetse areba abantu amwenyura, inyuma ye hari abandi, ibice by'abana bato ariko bitagaragara n'ibyatsi ku ruhande.

Abana b'abanyeshuri batoya barimo kuvoma, mu ndobo z'umuhondo bambaye impuzankano ya kinyeshuri, inyuma yabo hari ibiti birebire by'indabyo ndetse n'inzu irimo kuhagaragara.

Abantu b'ingeri zitandukanye biganjemo abagore ndetse n'abagabo ndetse bamwe bakaba bambaye impuzankano y'abaganga, inyuma hariyo ibitaro biri mu mabara y'ubururu ndetse hejuru hari icyapa cyanditseho ngo gira ubuzima.

Mu cyumba, kwa muganga harimo abaganga benshi cyane bambaye ibikoresho by'ubwirinzi birimo udupfukamunwa, ingofero zabugenewe ndetse n'indi myenda y'inyuma. Umurwayi uryamye ku gitanda barimo gusuzuma ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bari kwifashisha.

Ivomo rusange ry'abaturage rikaba ririho ibibuni, ndetse n'isoko y'amazi barimo kuvomera mu bibuni. Hari umugabo urimo gupompa ivomo ndetse hari n'abandi bana, n'abandi ku ruhande, inyuma hari ibyatsi byinshi.

Inteko y'abaturage b'ingeri zitandukanye, ababyeyi bahetse abana ndetse n'abagabo, bigaragara ko bitabiriye inama, hirya hari amabendera y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'isakazamajwi, ibyapa byometse ku nkuta z'inzu ziri hakurya.

Sida iracyahari duhaguruke tuyirwanya, icyapa kiri inyuma y'umugore n'umugabo, umugore wambaye agapfukamunwa n'impuzankano afashe ikaye nini n'ikaramu arimo kwandika ndetse na telefone, bigaragara ko arimo gufata amakuru agendanye na sida.

Isoko ivamo amazi, ibiganza biri gukaraba ayo mazi ava mu isoko, bigaragara ko ari aho bakarabira intoki, ubukarabiro bw'intoki, ku ruhande hari aho ayo mazi atembera ndetse n'igikuta kiri ku ruhande.

Umuntu wambaye ikarita mu ijosi n'agapira k'ubururu, akaba afite ibipapuro bibiri mu ntoki, ari kugenda abihereza abandi bantu bamuri imbere, inyuma ye hakaba hari undi wambaye isaha n'awe afite igipapuro mu ntoki.

Abaturage benshi bahuriye ku ivomo bigaragara ko ari rishyashya, bakaba barimo gupomba bazamura amazi bavoma, bamwe muri bo bakaba bafashe abana ndetse abandi bikenyeye, abandi biteye ibitambaro mu mutwe, abandi inyuma yabo hakaba hari intoki nyinshi.

Inteko y'abaturage benshi cyane bambaye neza higanjemo ababyeyi ndetse n'abasaza bambaye ingofero abandi bahakenyeye imyitero , hirya hari inzu nini cyane bigaragara ko ari ku kagari ndetse n'imodoka ihagaze ku ruhande . Hari igiti cy'ipoto itwara umuriro w'amashanyarazi ndetse n'ibyatsi byinshi ku ruhande.

Inzobere mu buvuzi abaganga babiri ndetse n'umurwayi, barimo kumwambika ikintu ku kuboko bigaragara ko bagiye kumupima indwara, umwe afashe igitabo undi afashe ibyuma by'ikoranabuhanga afite n'imisatsi miremire hari idirisha ku ruhande rigaragaza hanze.

Abasore n'inkumi benshi muri bo bambaye impuzankano y'umweru ndetse n'amakarita mu gatuza, inyuma yaho hari icyapa kiriho insanganyamatsiko abandi bicaye imbere yabo bigaragara ko bari gufata ifoto y'urwibutso aho bahagaze inyuma hakaba ko hari umuryango winjira mo.

Umwana uri ku ivomo, ufashe ikibuni arimo kuvoma, wambaye agapira k'umuhondo n'ikabutura, hirya hari abandi bagenzi be ndetse n'umumama, hirya hari inzu zitagaragara neza n'ikirere.

Inteko y'abayobozi b'ingeri zitandukanye, hakaba harimo abaturage ndetse n'abashinzwe umutekano mu masankano yabo, imbere hahagaze umugabo urimo utanga ikiganiro, afashe indangururamajwi.

Abana batoya bari ku mavomo bisa naho bari kunywa amazi aturuka muri ayo mavomo, bigaragara ko ari abanyeshuri ndetse inyuma yabo hakaba hari ibiti byinshi cyane bihakikije n'ikirere bigaragara ko kirimo akazuba.

Icyumba kirimo abantu b'ingeri zitandukanye abagore ndetse n'abagabo, ku meza y'igiti ndetse arambitseho impapuro n'amakayi, bifashe neza bigaragara ko bafata ifoto y'urwibutso inyuma yabo hari isakazamashusho.

Umugabo muremure wambaye ishati nziza, wifashe mu ntoki ndetse inyuma hariyo inzu nini cyane n'inzira ijya muri iyo nzu, ku ruhande hari indabyo ndende cyane ndetse n'agace gatoya k'ikirere kirimo amacu acyeye.

Umugore ufite imisatsi mitoya urimo guseka ndetse amwenyura, yambaye umupira w'umutuku mu imbere harimo n'undi w'umukara, inyuma ye hari inzu itagaragara neza ariko bigaragarako ifite imiryango yinjira muri iyo ndetse n'intebe.

Abagore b'ababyeyi batatu, umwe ahagatiye umwana arimo kumwosa afashe n'umufuka ndetse n'igiti cy'urubingo, undi afashe umuhini w'isuka, undi nawe afashe igiti cy'urubingo, inyuma yabo hari imisozi myinshi cyane iteyeho ibiti by'amashyamba ndetse n'intoki.

Inteko y'abaturage benshi biganjemo abagore ndetse harimo n'umuzungu, barimo gukoma amashyi bafite imisatsi miremire hejuru, inyuma ku gikuta cy'inzu hariyo ibikoresho bitandukanye byo kwicaramo ndetse hakaba harimo n'ameza ariho ibikoresho bitandukanye, birimo amacupa arimo amazi yo kunywa.

Abantu biganjemo abana bigaragara ko bababaye, barimo kurira abandi bifashe mapfubyi, mu gahanga bigaragara ko barimo gusaba imbabazi kandi bashonje, inyuma yabo hari ibiti bibakikije ndetse bambaye n'imyenda ishaje.

Abantu bicaye ku dutebe tw'intambike higanjemo ababyeyi ndetse n'abakangurambaga. Umwe muri bo afashe terefoni mu ntoki, bigaragara ko basuye umuryango. Ku ruhande hari inzu zubakishije ibyondo ndetse n'inzugi zikozwe mu biti.

Umusore ufashe urutoki arwerekeza ku munwa ku menyo bigaragara ko arimo kwereka muganga amenyo ko karwaye, afite umusatsi aryamye ku gitanda noneho umuganga afashe igikoresho bifashisha bapima amenyo yambaye ibikoresho byo kwirinda.

Igice cy'umubiri w'umukobwa w'inzobe, ufite amenyo meza urimo guseka amazuru ndetse n'amaso n'umusatsi we birebire n'amatwi, bigaragara ko bari kumwambika amenyo ya zahabu kubera ko hari ikiganza cy'umuganga wambaye wikwije.

Inzobere z'abaganga ziri kumwe n'umurwayi barimo kumupima mu gice cyo hejuru ku mutwe. Umukobwa n'umusore bambaye ibikoresho byo kwirinda bikwije, mu bitaro kwa muganga hari ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye birimo ibyinjiza umwuka uyunguruye.

Umusore n'inkumi bari kwireba mu ndorerwamo, bose bifashe ku munwa ndetse afite imisatsi miremire, undi afite migufiya, bambaye bose imyenda y'umweru hejuru, inyuma ku gikuta hasize irangi ry'umweru.

Muganga w'amenyo, umurwayi urwaye amenyo bigaragara ko bari kuyamukura bakoresheje ibikoresho byabugenewe. Akaba yambaye amarinete ndetse n'impuzankano n'ibikoresho byo kwirinda mu ntoki. Aryamye ku gitanda, araramye yasamye barivanamo.

Abagore babiri bigaragara ko bari mu gikoni bategura ibyo kurya birimo imboga, urusenda, inyanya ndetse n'intoryi, hari n'ibindi bikoresho bifashisha mu gukora ibyo kurya, isaha imanitse ku gikuta ndetse n'amasahani n'ibikombe biri inyuma.

Umusaza wari ufite imvi z'umusatsi wambaye amadarubindi ndetse afashe akuma mu ntoki bigaragara ko bari kumurambura imikaya, akaba ari kumwe n'umugore muremure ufite imisatsi miremire wambaye impuzankano y'umutuku arimo kumufasha kugorora imikaya.

Intoki zifashe inka bari gukina igisoro, hirya hari umuntu urimo gukina icyo gisoro kigizwe n'utudirisha tw'umutuku ndetse n'umukara, ndetse n'inka ziri mu mabara y'umukara ndetse n'igitaka.

Abagore babiri bambaye neza bigaragara ko bari gukora imyitozo ngororamubiri, ku ruhande rwabo hari ibiti birebire cyane ndetse n'indabyo n'ibyatsi, hasi bigaragara ko hakonje, bakaba biteze ibitambaro abandi bafite imisatsi miremire.

Abana ndetse n'ababyeyi bicaye ahantu ku gitanda abandi bahagaze bisa naho barimo gufata ifoto y'umuryango, inyuma yabo bana hakaba hari ibiduki ndetse n'ibirahuri biteyemo indabo.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye harimo abayobozi ndetse inyuma y'abo hari icyapa cyanditseho makumyabiri, makumyabiri na kane ndetse n'ikirangantego cy'igihugu n'insanganyamatsiko bari kuvugaho, bakaba bicaye ku ntebe nziza kuri alitari.

Umugabo uhagaze ku ruhimbi, imbere ye hari ibikoresho by'isakazamashusho ndetse afite n'inyakiramajwi, yambaye ikote, inyuma hari icyapa cyamamaza insanganyamatsiko bari kuvugaho, ku ruhande hari isakazamashusho, hasi hari intebe bicaramo.

Icyumba cyo kwa muganga harimo ibitanda ndetse n'amagodora aryamwaho n'abarwayi, kikaba gifite amaguru agenda y'ibiziga yicunga ndetse mu cyumba harimo ibirahuri byinshi cyane ndetse n'amatara n'aho abantu binjirira muri icyo cyumba.

Kwa muganga, abaganga babiri barimo kwita ku murwayi uryamye ku gitanda bamufata ibipimo, barimo umugore ndetse n'umugabo umwe yambaye iyi shati y'umutuku undi yambaye amarineti.

Umuhanda winjira mu kigo kinini, mu mbuga y'icyo kigo hakaba hahagaze imodokari mu mabara y'umukara, hakurya hari inzu ndende y'igorofa igizwe n'ibirahure ndetse n'amadirishya, hejuru hari ibara ry'umweru ndetse n'ikirere.

Inzu yubakishije amabuye ifite ibirahuri, ndetse ku ruhande rw'iyo nzu hakaba hari ibyatsi ndetse n'utuyira n'indabyo, hejuru hagaragara ikirere kirimo akazuba ndetse hirya hariyo abantu binjira muri iyo nzu.

Kwa muganga icyumba cyo kwa muganga ndetse n'ibitanda n'ibindi bikoresho byifashishwa n'abaryi, hari ibitanda basunika ndetse hejuru hari ibikoresho byinjiza umwuka uyunguruye muri icyo cyumba n'ibindi by'ikoranabuhanga ku ruhande.

Abaturage b'ingeri zitandukanye, abato ndetse n'abakuru, inzu zubakishijwe amatafari yahiye, amabati ndetse n'ibyuma, ibyapa biri ku ruhande y'izo nzu bigaragara icyo izo nzu zikora, bigaragara ko ariko ari kwa muganga, abandi bicaye ku ntebe zibajwe mu biti bategereje guhabwa ibyo baje gushaka.

Mu cyumba kwa muganga harimo umuganga urimo amanika inzitiramubu iri mu mabara y'ubururu, yambaye n'umupira w'ubururu, ku gitanda haryamye umurwayi, hirya hari ibikoresho by'ikoranabuhanga, mu cyumba kandi hakaba harimo amatara amurikira abarwayi.

Ikirere kirimo ibicu bikeya ndetse hasi hari inzu ndende cyane z'imiturirwa zigizwe n'amadirisha y'ibirahuri ndetse n'inzugi, hari utuyira tunyuranyuranamo hasi mu mbuga y'iyo nzu ndetse n'aho bahagarika imodoka ndetse n'aho abantu bicara bategereje.

Mu cyumba kwa muganga hakaba harimo igitanda cyakira abarwayi cy'ikoranabuhanga kigezweho gifite n'aho bakigenzurira, ku ruhande hariho aho bakorera isuku umurwayi ndetse n'urugi rwinjiramo mu cyumba.

Mu cyumba cyo kwa muganga, kirimo ibitanda byinshi cyane biri ku murongo bigaragara ko bikoresha ikoranabuhanga. Kubera ko bifite indahuzo, zijya kuri ibyo bitanda, ndetse n'aho bagenzurira ibyo bitanda, bakoresheje ikoranabuhanga.

Inzu yab'ababyeyi, inzu nini cyane isakaje amabati y'ubururu iteye irangi ryumweru ifite amadirishya arimo ibirahuri ndetse n'inzugi, hanze y' hari umurasire w'izuba ndetse ku ruhande rw'iyozu hakaba hakikijwe n'ibiti birebire cyane hejuru hagaragara ikirere kirimo akazuba.

Icyumba cyo kwa muganga cyo ababyeyi babyariramo kizwi nka materinete, umuryango winjira muri icyo cyumba uteye irangi ry'umuhondo ndetse n'ibirahuri bibonerana inzu yubakishijwe amatafari ahiye, ku ruhande hari abagabo barimo gutambuka hanze.

Inzu y'ababyeyi n' impinja, inzu ndende cyane igizwe n'amadirishya arimo ibirahure ndetse n'ibyuma ndetse n'imiryango yinjira, mu gice cyo hasi hahagaze imodoka ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu ariko hagaragara imitwe yabo.

Ikirere gikeye kitarimo ibicu byinshi, hasi hari inzu ndende cyane ifite icyapa cyanditseho ngo Nyarugenge, akarere, ibitaro mu magambo y'Icyongereza hasi n'imbuga harimo indabyo.

Ibyatsi byinshi cyane bigize ubusitani burimo itara rirerire ndetse hakurya hari amazu menshi cyane maremare y'umuturirwa hejuru hagaragara ikirere gikeye kirimo akazuba ndetse ku ruhande hari n'ibiti bihari.

Ikibuga bakiniramo umukino w'intoki wo kujugunya mu gakangara, harimo abana benshi cyane ndetse n'urubyiruko inyuma yabo hari amazu menshi cyane ndetse n'ibiti biri inyuma, hejuru hari ikirere ndetse n'imirima ku ruhande.

Icyumba cyo kwa muganga cyiganjemo ibikoresho byo kwa muganga birimo ibitanda ndetse n'amamatora yabyo. Harimo ndetse n'ibindi bikoresho birimo amatara amurikira abarwayi bo kwa muganga ndetse n'aho bakorera bapima umurwayi.

Uwihayimana w'umwirabura bigaragara ko bari gufasha umwana wicaye hasi ndetse n'umuzungu urimo aho ngaho hirya hari intebe zibajwe ndetse n'inzugi zinjira mu nzu aho bari ndetse n'ibikoresho bifashisha barya banaryama.

Icyumba kirimo inzobere, imbere ku meza harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, ku gikuta hari isakazamashusho bigaragara ko bakurikiye ikiganiro, bambaye neza bapfutse mu mitwe yabo ndetse n'udupfukamunwa ku mazuru, bicaye bareba imbere ku nsakazamashusho.

Umuntu upfukamye ari kwikanda ivi, akaba yambaye inkweto z'umukara zifite ibara ry'umweru, n'amasogisi y'umweru, akaba yambaye ikabutura n'umupira w'amaboko maremare.

Aho bakorera imyitozo ngororamubiri, abagabo babiri harimo umuzungu ndetse n'umwirabura bigaragara ko bari kunanura imikaya y'amaguru ku ruhande hari idirishya rigizwe n'ibirahure rigaragaza hanze.

Abaturage benshi bateraniye hamwe, bari kumva umuziki ndetse n'abacezi b'umuziki barimo guceza bambaye amasengeri, mu kibuga cy'umukino w'amaboko. Hirya hari intoki ndetse hejuru hari n'ikirere n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Umurwayi wicaye ku gitanda kwa muganga, bigaragara ko afite ikibazo mu kaguru barimo gupfuka, afite ikibazo ari kumwe ndetse n'umuganga wambaye impuzankano w'umuzungu urimo kumwita amuha ubufasha bwo kumuvura.

Umukinnyi wicaye wambaye isengeri ndetse n'ikabutura ngufi arimo kwikanda itako, bigaragara ko afite ikibazo mu kibero yicaye ahantu hasi hari umucaca bisa nkaho ari mu kibuga, uyu mukinnyi bikaba bigaragara ko akina umukino wo kwiruka ahari.

Igice cyo hejuru cy'umubiri w'umuntu, bigaragara ko ari igitsina gore. Ufite imisatsi miremire cyane yazirikiye inyuma ndetse arambura amaboko, hejuru ayafatanya bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri. Hejuru hagaragara ndetse n'ikirere kiri mu mabara y'ubururu.

Baho neza tv; icupa ririmo ibintu bimeze nk'amavuta nangwa se umutobe, rizengurutswe n'icyapa bigaragaza ikiri muri iryo cupa, ndetse ku ruhande rwaho hakaba hari ubwoko bw'imbuto bw'indimu. Na none hakaba hari ibitunguru ku ruhande.

Mu rusesero aho binariza inyanya, hakaba harimo ibiti by'inyanya ndetse bikaba biri mu bihoho bigizwe n'amashashi n'itaka birimo bizamuka bikura, hirya hakaba hari n'ibindi biti bigaragara ko ari mu murima.

Inzobere mu buvuzi ufashe igikarito imbere harambitse amacupa arimo imiti ndetse akaba yambaye impuzankano y'abaganga, agapfukamunwa ndetse n'ishashi mu mutwe. Ku ruhande inyuma hari urugi rusohoka mu cyumba arimo.